Icyumba cyabereyemo inama yahuje urubyiruko rw'ubukobushake bazwi nka croix rouge. Hari ameza ateretseho uducupa turimo amazi ndetse n'umuntu ufite igifata amashusho.

Abagabo batandatu, harimo umwe wambaye ingofero itukura, iriho ikimenyetso cyumuryango ushinzwe gutabara imbabare no gukwirakwiza amaraso.

Abantu batanu, harimo n'umugore umwe. Barimo barandika, ku meza hateretseho uducupa tw'amazi, bameze nk'abari gusinya ibintu runaka.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara n'agapfukamunwa, arimo araha amabwiriza abandi bagabo bambaye bose amajire agaragaza ko bakorera ikigo gishinzwe gutanga ubutabazi.

Umugore wambaye akajere k'umutuku kariho ikimenyetso cy'umusaraba, kigaragaza ikigo cy'Igihugu gishinzwe gutanga ubutabazi.

Abantu batandatu harimo umwe wambaye ijire itukura ukorera ikigo gishinzwe gutanga ubutabazi, harimo n'abazungu babiri umugabo ndetse n'umugore mu cyumba barimo kirimo isakazamashusho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo igitanda kiriho amashuka y'umweru ndetse n'umusego w'umweru bigaragara ko gifite amapine.

Abaforomo n'abaforomokazi, ni bamwe mu bantu bagira uruhare ku buzima bwacu, abo baforomo barahagaze bambaye udupfukamunwa, barishimye barimo barifotoza.

Abantu umunani, abagabo batatu ndetse n'abagore batanu, bafashe ku gikoresho cy'insakazamashusho ndetse imbere yabo hari ibindi bikarito, birimo televiziyo.

Abantu bahagaze bahanitse ikiganza bigaragara ko bameze nk'abantu bari kurahira bambaye impuzankano y'imipira y'umweru ndetse hasi bose bambaye imyenda y'umukara.

Mu cyumba cyo kwa muganga haryamye umurwayi, aryamye ku gitanda kiriho amashuka y'ubururu, bisa nk'aho arembye, hari umuganga w'umuforomokazi uri kumwitaho.

Ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu Rwanda Radiyo Rwanda iri ni ishami ryacyo rikorera mu Karere ka Nyagatare harimo abanyamakuru barimo baraganira.

Aha ni kwa muganga biragaragara ko harimo abarwayi baryamye ku bitanda, abaganga barimo bambaye imyenda ibapfutse hose bisa nk'aho ari uburyo bwo kwirinda icyorezo.

Icyumba cyo kwa muganga kikaba kirimo abantu, harimo n'umugore wambaye ikote ry'umukara n'ikanzu irimo amabara y'umweru n'umukara, hari na muganga wambaye uturindantoki.

Abantu bigaragara ko ari abajyanama b'ubuzima baba bakorera mu midugudu. Bamwe barahagaze abandi baricaye. Imbere yabo ku meza hateretse uducupa turimo ibinini.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragara ko harwariyemo abarwayi, hari kandi n'abandi bantu bahagaze imbere yabo baje kubasura.

Iyumba cyo kwa muganga, kirimo abarwayi baryamye, ku bitanda byakira indembe. Harimo umuganga urimo urandika afite ibintu by'umuhondo kumeza.

Kwa muganga, aha hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse afite ikaramu mu ntoki hari ibyo ari kwandika mu ikaye.

Ikibuga cy'umupira harimo abantu babakinnyi bicayemo ndetse inyuma yabo bazengurutswe n'abandi bantu bahagaze hirya y'abo bantu hari ibiti birebire.

Abantu benshi biganjemo abamama bamwe biteze ibitambaro mu mutwe bicaye ku murongo bategereje guhabwa serivisi baje gushaka, imbere yabo hahagaze umugabo n'umugore barimo babaha amabwiriza.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kikaba kirimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru, imbere ye hari umugore wicaye yashyize amaboko ku meza waje kwaka serivise.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe. Imbere yabo hakaba hateretse amazi. Bameze nk'abari mu mahugurwa yateguwe ku ngingo runaka.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'isaha ku kuboko afite telefoni mu ntoki, arimo araterwa urukingo n'umuganga nawe wambaye agapfukamunwa k'ubururu.

Aha ni kwa muganga, iyi nyubako tubona ikaba ari inyubako ikorerwamo isuzumiro, abarwayi baje bashaka kuyisuzumisha, nimwo ibipimo byabo bikorerwa.

Kwa muganga haba hari inzu ikorerwamo ubushakashatsi ku miti no ku ndwara bitandukanye, hano muri iki cyumba harimo umuganga urimo arasuzuma ibintu.

Kwa muganga haba hari icyumba cy'isuzumi ndetse bakoreramo ibintu bijyanye no gupima hano hari umuganga urimo arapima ibintu bifite ibara ry'umutuku.

Kwa muganga basuzuma indwara zitandukanye, hano hari ikiganza cy'umuntu, utari kugaragara bigaragara ko arimo arafatwa amaraso, kugira ngo apimwe virusi itera sida.

Abaganga ni bamwe mu bantu b'ingirakamaro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hano hari abaganga babiri bari kureba mu byuma by'ikoranabuhanga bigaragara ko hari ibyo bari gusuzuma bitabashwa kubonwa n'amaso.

Hano ni ku kigo nderabuzima aho hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki arimo arafata umukobwa amaraso kugira ngo amupime icyorezo cya virusi itera sida.

Hano hari inyubako ibamo ibikoresho abanyeshuri bigiraho ibijyanye n'ubuvuzi, harimo kandi abanyeshuri bambaye amarinete n'umwe utayambaye barimo baragira ibyo basuzuma.

Ikiganza cyambaye akarindantoki gafite ibara ry'ubururu, hari ikintu arimo arasuzuma.

Abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye cyane cyane ay'umuhondo, bafashe ku kagozi kariho ururabyo rukozwe ku buryo bwa gihanga bameze nk'aho baje gufungura ikigo runaka.

Hano hari abantu bakuru ndetse n'abana batoya bahagaze, bamwe biragaragara ko babaye neza abandi babayeho mu buzima bubi, mu kayira k'abanyamaguru karimo amapave, harimo umwana mutoya.

Umudamu wambaye imyenda ikoze mu bitenge, arimo araha umwana we wambaye ishati yumuhondo, amata y'Ininyange kandi ni byiza.

Nugira umwana akarwara, uzamujyane kwa muganga bamusuzume bamuhe imiti. Hano hari umumama urimo uravura umwana uteruwe n'umuhungu.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zimbaho, aba mama ndetse n'abagabo, bigaragara ko bari mu gikorwa cy'inama, hari umuntu imbere yabo urimo arabagezaho ibyo yabateguriye, harimo na bamwe bitwikiriye imitaka.

Umubyeyi udafite umusatsi muremure, wambaye ishati idoze mu bitenge ariko iri kugaragaza ibitugu, ku kaboko ke bahapfutse, bisa nk'aho yari yakomeretse, akikiye umwana we.

Umugore uhagaze imbere y'abandi bantu benshi afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye umupira uriho amagambo agaragaza ikigo cy'Igihugu gishinzwe kwita ku buzima.

Abadamu bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, bambaye bose udupfukamunwa dufite ibara ry'ubururu, bicaye bareba imbere, wagira ngo imbere hari umuntu uri kugira icyo abagezaho.

Abantu benshi bicaye munsi y'ihema harimo abamama bafite abana biteze n'ibitambaro biri mumamabara atandukanye baje mu nama barimo barabwirwa ijambo.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, imbere yabo hari umuntu uhagaze arimo arabagezaho ikigwa ndetse imbere hari imitako iri mu ibara ry'ibendera ry'u Rwanda.

Hano hari abantu benshi bicaye bakoze uruziga, bicaye ku ntebe zimbaho zishaje inyuma yabo hari inzu isize umucanga.

Abantu abagabo ndetse n'abagore, abenshi bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi, ku meza hariho ibintu bimeze nk'iminyururu bifashwe n'umuntu wumugabo ufite indangururamajwi ari kugenda asobanurira abandi.

Abantu bambaye imipira y'umweru ndetse n'amakabutura y'umuhondo, bambaye n'udupfukamunwa, aba ni imfungwa, hakaba hari ikiganiro bari kugezwaho.

Abantu b'urubyiruko bicaye bazengurutse ku ntebe zikozwe mu mbaho ariko zifite amaguru y'ibyuma, biganjemo abagore, harimo n'umukobwa bigaragara ko yabyaye akiri mutoya.

Abantu batanu, abagabo batatu ndetse n'abagore babiri, umugabo umwe wambaye agapfukamunwa afite n'ikayi ku bibero bye, umugore umwe wambaye ikanzu y'umuhondo afite indangururamajwi.

Abantu biganjemo abagore biteze ibitambaro mu mutwe, bicaye mu ntebe zikoze mu biti, imbere yabo hari umugore ndetse n'umugabo, umugabo arahagaze arimo kuvuga ijambo.

Abantu benshi ubona ko ari abanyacyubahiro imbere yabo ku meza hariho uducupa tw'amazi ndetse n'ururabyo rusa, barambitse bamwe amatelefone kuri ayo meza.

Abantu benshi bicaye hasi, hari abantu batatu barimo umukobwa wambaye ijire itukura, bateruye umwana bigaragara ko asa nk'uwar ugize ihungabana bitewe n'ibyo yari abonye cyangwa se yari yumvise.

Icyapa kigaragaza ko hari icyumweru cyahariwe kurwanya ikoreshwa n'ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge mu muryango Nyarwanda by'umwihariko mu rubyiruko.

Inyubako ifite inzugi z'icyatsi, hejuru hariho icyapa kigaragaza ko iyo nyubako ari inzu icururizwamo imiti.

Inyubako nziza cyane, irimo icyumba kibikwamo imiti, ikaba ipanze neza iri mu tubati dukozwe mu byuma.

Inyubako nziza ifite urugi rufunguye ndetse n'amadirishya amwe afunguye, hejuru y'umuryango hariho icyapa kigaragaza ko ari inzu ikora ubucuruzi bujyanye n'ibinini.

Inyubako yubatse mu buryo busanzwe bigaragara ko ikinze, imbere y'iyo nyubako, hari amapave bigaragara ko ashaje, iyo nyubako, ni inzu icururizwamo imiti izwi ku izina rya farumasi, yo kwa silive.

Ubucuruzi bw'imiti, buzwi ku izina rya pharmacy. Haba harimo imiti ndetse n'umuganga. Iyo urwaye urabagana bakaguha ibinini bigufasha.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, yifashishwa mu kuvura, hari kabati karimo imiti itondetse neza ku murongo.

Imiti ikoreshwa mu kuvura indwaratandukanye, iri muri etajeri ndetse ipanze ku murongo imeze neza.

aha harimo umuganga bigaragara ko hari byo ari gusoma byanditse birarimbitse ku meza, ari mu nzu izwi kw'izina rya farumasi inzu icuruza imiti y'ubwoko butandukanye.

Inyubako bigaragara ko icuruza imiti izwi ku izina rya farumasi mu ndimi z'amahanga, imbere mu mbuga hasashemo amapave bigaragara ko yatangiye kwangirika.

Inzu y'iduka ricuruza imiti y'amoko atandukanye yifashishwa mu buvuzi, ipanze neza mu tubati ndetse iri no mu ngano zitandukanye.

Inzu izwi ku izina rya farumasi icuruza imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara harimo imiti igiye iteretse muri etajeri.

Umuganga ufite imisatsi miremire iboshye, wambaye itaburiya y'umweru arimo arapanga neza imiti iri mu kabati.

Abantu abagabo ndetse n'abagore bicaye mucyumba cy'inama, ku meza imbere ya buri wese , hateretseho uducupa tw'amazi banywa.

Aba ni abantu benshi cyane, bicaye, ku ntebe za palasitike z' imyeru, bigaragara ko bakiri abana batoya, imbere hari undi mwana urimo arababwira ijambo.

Abantu benshi abagabo n'abagore bamwe bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi barimo barifotoza, imbere yabo hari ameza ndetse n'igikapu.

Abantu batandukanye abakuze ndetse n'abakiri bato iruhande rwabo hari ingoma bigaragara ko hari ibyo bakurikiye. Inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari y'ibyondo ndetse n'indangururamajwi yazamuwe.

Abasore ndetse n'abakobwa bahagaze, imbere yabo hakaba hari ameza, ateretseho uducupa turimo amazi ndetse n'agakombe gafite ibara rijya gusa umuhondo.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zifite amabara y'ubururu harimo abakuze ndetse n'urubyiruko, barimo barareba umuntu urimo urabagezaho ikiganiro, bicaye mu cyumba cy'inama.

Uyu musaza biragaragara ko amaze kugira imyaka myinshi. Afite ibyatsi mu ntoki bigaragara ko bikorwamo imiti, yifashishwa mu bitaro bakayiha abarwayi.

Kwa muganga mu cyumba hari abaganga babiri, umwe afite ibyo arimo arasoma mu ikayi, undi arimo arasuzuma umurwayi w'umudamu waje kwivuza.

Ibyatsi bikorwamo imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi aha hari ikiyiko, isahane ndetse n'ibiganza birimo birakaraga ibibabi kugira ngo bivemo umuti.

Mu bimera niho hantu hava imiti myinshi ikoreshwa mu bitaro igezweho, hano hari udukoresho turiho imiti myinshi bagiye bumisha kugira ngo bazayitunganye.

Hano hari ibyatsi bitandukanye bimwe bigira amahwa ndetse n'ibindi bifite indabo zijya gusa iroza, ku ifoto imwe hirya kure hariyo amazu ameze nk'amashuri.

Ibiganza bibiri kimwe gifashe agakoresho k'agasekuzo arimo arasekura ibintu biri mukantu kameze nk'ibakure.

Umupolisi ufite inyenyeri ku rutugu bigaragara ko arimo arigishwa gufata abantu amaraso n'undi umuhagaze iruhande bose bambaye ingofero.

Abantu bari ku mirongo, abagabo n'abagore, barimo baragana imbere, ahari abandi bantu bambaye amateburiya y'umweru barimo barabaha serivisi, bigaragara ko baje gushaka urukingo.

Abantu benshi batandukanye, bicaye mu cyumba, bambaye udupfukamunwa tw'ubururu. Harimo umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku, hari ibintu barimo barareba imbere yabo.

Hano hari umuforomokazi urimo aravomera umuti mu rushinge yambaye uturindantoki, bigaragara ko agiye kuwutera umurwayi.

Inyubako nziza cyane igaragaraho icyapa, kivuga ko hano ari kwa muganga uvura amenyo. Ndetse imbere hariho n'ibishusho bagiye bambika imyenda irimo amakanzu.

Abantu ba aba mama bahagaze kumurongo imbere yabo hari umugabo urimo arabafotora yambaye n'agapfukamunwa hirya yabo hari inzu nziza yubatse neza hejuru muryango hariho icyapa ngo gira ubuzima.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo abantu batatu bicaye ku ntebe z'imbaho bakikije ameza akoze mu biti, biragaragara ko harimo umudamu umwe waje kwisuzumisha bari kugira ibyo bamubaza.

Abantu b'abagabo n'abagore harimo umuganga, umusirikare ndetse n'abandi bantu barimo barifotoza bahagaze imbere y'inyubako yanditseho gira ubuzima.

Inyubako nziza isize irangi ry'ubururu, hari icyapa cyandiho gira ubuzima, imbere y'iyo nyubako, hari intebe nziza zateguwe zikozwe mu mbaho.

Inyubako, bigaragara ko, ari kukigonderabuzima isize, irange ry'ubururu, ndetse hari n'umuntu urimo ararebera mu idirishya. Handitse amagambo avuga ngo, gira ubuzima.

Abaturage benshi bahagaze barimo barifotoza, harimo abagabo n'abagore, bamwe bigaragara ko ari abazungu, bari kwifotoreza imbere y'inzu, yanditseho amagambo ngo'' gira ubuzima.''

Abagabo babiri bafashe igikoresho gihindura imirasire y'izuba, kikayiremamo umuriro wamashanyarazi. Bahagaze imbere y'inzu isize amarangi y'ubururu.